Abagabo n'abagore bicaye mu cyumba cy'inama, aho baje kumva inama zitandukanye zirimo iz'umutekano, zo kubagira inama uburyo babana na bagenzi babo n'uburyo bakwirinda impanuka cyangwa se n'ibindi bintu bitandukanye.

Umugabo wambaye umupira w'umweru urimo amabara y'umutuku, ufashe mikoro ari kuvuga ahawe ijambo, ndetse hari n'abaturage benshi bateze amatwi ngo bumve ibyo bavugira ahangaha kugirango barusheho kubimenya.

Icyumba kinini cyane kirimo abantu benshi cyane bari mu nama, bari kubwirwa ibintu byinshi bitandukanye ndetse bakanabyumva baranitonze kandi baranatuje.

Umugore n'umugabo ufashe mikoro ari kuremesha abantu inama ijyanye n'ishoramari mu karere ka Nyagatare, ababwira uburyo harimo amahirwe menshi yo gushora imari kugira ngo bateze imbere Akarere ka Nyagatare.

Umugabo wambaye amarinete wiyogosheshe, ndetse ufashe mikoro y'umukara, wambaye ikoti ryiza ry'umukara na karuvati y'ubururu, uhagaze ku gatuti k'ubururu ari kuremesha inama.

Abagore, abagabo, abasore n'abakobwa bicaye mu cyumba basa neza bameze neza ndetse bari mu nama barimo barumva ibintu bari kubabwira kandi bateze amatwi barabyishimiye.

Abagabo n'abagore basa neza bicaye batuje, bari mu nama imbere yabo hakaba hariho n'uducupa tw'amazi, baje kumva ibyo bababwira ndetse kugira ngo nabo babitangemo bitekerezo.

Abaturage bari mu nama bicaye mu ntebe z'amabara y'umutuku harimo n'amarido meza hateye n'irangi ry'umweru hubakishujwe n'amatafari ahiye, bari mu nama barimo bababwira uburyo bagomba kwitwara.

Abagore n'abagabo basa neza bicaye neza, bari mu nama bateze amatwi ibyo barimo bababwira kandi babyishimiye banabinezererewe.

Umumama ufashe mikoro itukura wambaye umwenda w'umukara n'ishati y'igitenge uhagaze imbere y'abaturage arimo ababwira uburyo bagomba kwifata n'uburyo bagomba kwitwara.

Abaturage bicaye abagore, abagabo, abasore n'abakobwa bari mu nama bari kumva ibyo bababwira ndetse bateze amatwi barabyishimiye urabona ko batuje kandi basa neza.

Abasore n'abakobwa bari mu nzu nziza, imeze neza, bari gukora amasiporo bakunda kwita ubukorobasi bubafasha mu kwiteza imbere no kubona amafaranga, ndetse bikabafasha no kugorora imibiri yabo.

Umucaca mwiza ushasheho umukeka dukoresha turyamye twiyorosa, ubohwa mu busuna kandi ubohwa mu buryo bwinshi butandukanye.

Iki gicurangisho kiba kigizwe n'igiti, umugozi na gacuma. bacyita umuduri, bawifashishaga kera igihe bacuranga indirimbo, mu gihe babyina, baceza n'ibindi.

Imyambi imeze neza, ni ibikoresho bakoreshaga kera mu gihe cy'intambara barwana nuumwanzi, ndetse babikoreshaga mu gihe bari guhiga inyamaswa zo mu gasozi mu gihe ababaga bashaka inyama.

Umuvure mwiza wo mu giti, ni uwa kera bawukoreshaga mu buryo bwinshi butandukanye, hari igihe bawuheragamo inka amazi, ahandi bakawugendamo bari mu kiyaga, bakanawukoresha baroba.

Igiseke kiri ahantutu hafite ibara ry'umuhondo, n'igikoresho cya kera abantu bakoreshaga bazindukirana, bakakiyifashisha bakiriramo mugihe bashiragamo umutsima.

Ibiseke bitatu, ni ibikoresho bya kera, abantu bifashishaga, mu gihe bagiye, gusura bagenzi babo, babikoreshaga no mu gihe bagiye kurya kuko bashyiragamo umutsima kugira ngo basangirire hamwe nk'umuryango.

Igiseke ni'umutemera iwacyo igikoresho cya kera nanubu kigikoreshwa mu muco Nyarwanda cyafashaga abantu gushiramo imyaka, bakazindukirana ndetse bashiragamo n'umutsima mu gihe babaga bari kurya.

Abaturage benshi bari kunyura hafi y'ishyamba hafi y'inzu, babyukiye mu muganda kugirango ngo bawukore bateze imbere igihugu, ndetse bigabanya n'amafaranga leta itakaza mu mihanda, mu bindi bikorwa byose abaturage baba bakoreye mu muganda.

Abasore n'abakobwa bakenyeye neza bari kubyina imbere y'abantu baje kureba ibirori, bari kubyina mu muco nyarwanda, ibi bintu ni byiza kandi byafashaga abantu kuruhura mu mutwe ndetse no kwishima.

Abasore bambaye imyambaro myiza ya kera bifashishaga mu gihe babaga bari kubyina imbyino gakondo, bari imbere yabaturage barishimye bari kubabyinira kugira ngo bishime.

Umuvure mwiza ubaje neza, umeze neza bawifashishaga mu buryo bwa kera, baheramo inka amazi, bawu shigishiramo imisururu ,ndetse ukanabafasha no kugendamo mu gihe babaga bashaka gukora ubwato bwo kwambukana.

Inyubako z'amashanyarazi zifasha abaturage kwihangira imirimo binyuze mu gushinga amasaro, inganda nini n'iziciriritse, bikabafasha kwiteza imbere ndetse no guteza imbere imiryango yabo.

Abakozi b'amashanyarazi buriye i pironi kugira ngo bayakore neza bohereze umuriro mu baturage ubafasha mu bikorwa byabo bya buri munsi, harimo kwihangira imirimo ishingiye ku nganda nto n'iziciriritse.

Ishyamba ryubatsemo amapironi y'amashanyarazi atanga umuriro ku baturage kugira ngo biteze imbere, bateze imbere n'imiryango yabo bakore sudire, bareba amafirime.

Amashanyarazi yubatse atanga umuriro, abaturage bakamurika mu nzu bakiteza imbere muburyp bwo kwihangira imirimo binyuze mu gushinga amasaroo yo kogosha ndetse n'inganda nini n'iziciriritse.

Amapiloni y'amashanyarazi atwara umuriro mu baturage, mu mijyi no no mu cyaro, bikabafasha kwihangira imirimo, gukora amasaro yo kogoshiramo, gushinga inganda nini n'iziciriritse.

Abagabo bahagaze ndetse bameze nk'abubatsi harimo abazungu bambaye ingofero abandi bamabye umuhondo n'icyatsi, bambaye utujiri tw'amabara atandukanye harimo umuhondo harimo n'ay'umutuku n'icyatsi.

Umugabo wambaye akajiri k'umuhondo n'umupira w'umukara n'ingofero y'umuhondo asa n'aho ari umuzungu, ari gukora umuriro w'amashanyarazi kugira ngo awohereze mu baturage bihangire imirimo.

Amapiroloni y'amashanyarazi yubatse neza, atwara umuriro mu baturage mu byaro no mu mijyi, n'agasozi keza kariho ibiti gasa neza kabone keza kabereye kuruhukiraho.

Abagabo bambaye ibisurubeti by'ubururu n'ingofero z'umuhondo bari kazi ko gukora amashanyarazi kugira ngo hahereza abaturage umuriro biteze imbere mu buryo bwose bushoboka.

Amapironi y'amashanyarazi atwara umuriro w'abaturage, bakihangira imirimo mu buryo bwinshi butandukanye, harimo nko gukora amasaro akora imisatsi no gukora inganda nini n'iziciriritse.

Inzu inza yubatse hafi ya kaburimbo, isa neza cyane ifite n'ibara ry'ubururu, ifasha abantu benshi batandukanye, ndetse ikurura n'abandi bantu baje kuyisura.

Imyaka kirimo ibigori cyubakijwe amabati y'umutuku ku ruhande hakaba hari ikindi kigega cy'amazi, gifata amazi kugira ngo adasenyera abaturage, ndetse ayo mazi ukaba wayakoresha mu mirimo yo mu rugo.

Inyubako nziza iteye irangi ku byuma bihari yubakishije amatafari ahiye n'amabati ndetse isa n'aho ikorerwamo ibikorwa bitandukanye byo gufasha abaturage.

Kaburimbo nziza yegereye n'umucaca mwiza, n'amazu meza aparitse imbere amamodoka, ikaba ifasha abaturage mu gutwara ibintu n'abantu, ndetse no kwiteza imbere mu buryo bwinshi.

Icyapa kiza cyitwa Kagitumbalibaration history trio. Ii ahantu heza ingabo z'u Rwanda zinjiriye zibohora igihugu kandi niheza hatwibutsa amateka y'u Rwanda.

Ikigo cy'amashuri gitangirwamo ubumenyi ku banyeshuri bari mu mashuri abanza ndetse kikaba kegeranye n'umudugudu w'iterambere wubatse neza, wubakishije amabati atukura ndetse wubatse no mu buryo bumwe busa.

Inyubako nziza ifite ibirahuri byiza yubakishije amabati atukura, ndetse iparitse imbere imodoka nyinshi kandi iri ku muhanda mwiza cyane.

Ikibuga cy'umupira kiriho amabara asa n'idarapo y'u Rwanda, ndetse n'irindi bara ry'umutuku gifasha abantu kujya kwidagadura no gukina umupira ndetse, mu gihe cy'umupira abantu baba bishimye.

Umugabo uri imbere y'ababaturage asanari kuvuga ikiganiro cyangwa se ari gutanga itangazo, n'abagore bambaye imikenyero bicaye neza basa naho batuje, n'ibitaro byubatse neza amatafari ahiye.

Abagabo bahagaze ahantu heza harimo abambaye amakoti y'umukara, abambaye amakoti y'ubururu ndetse hakaba hariho n'abasirikare b'u Rwanda n'abamama bambaye imikenyero y'umweru ndetse n'abambaye amakanzu.

Umubyeyi usaneza wambaye imikenyero myiza cyane irimo amabara yi'cyatsi n'ubururu, ufashe mikoro, ndetse yanafashe n'agakapu yambaye n'isaha ku kuboko, ari kubwira abaturage.

Abaturage bicaye batuje, bateze amatwi ibintu bari kubabwira, bitabiriye inama ku bwinshi kandi biteguye kumva ibintu barimo kubabwira kugira ngo barusheho kwiteza imbere no kumvikana n'ubuyobozi.

Inzego z'umutekano ziri kumwe n'abaturage baje bari mu cyumba kiza giteye irangi ry'umweru, bari kubagira inama zo kwirinda amakimbirane ndetse bakabacira n'imanza kugira ngo babane mu mahoro.

Ahantu heza hari pasiparumu nziza, hari umucaca mwiza ndetse n'inyubako iteye irangi ry'umweru, ifite amabati y'umukara. Ni inyubako y'ubucamanza n'ubutabera.

Kaburimbo nziza irimo kugendwamo n'imodoka, hakurya hakaba ari umutaka n'inyubako ziteye irangi ry'umweru, bifasha abaturage gucuruza kwiteza imbere.

Umuhanda wa kaburimbo, urimo umumotari, yambaye kask, hafi ahongaho hari n'amazu y'ubucuruzi, acuruzamo ibintu bitandukanye, harimo

Kaburimbo nziza irimo umusaza utwaye igare ahetse n'ibintu ndetse hirya ye hari n'inzu nziza yubakishijwe amatafari ahiye, hirya hakaba hari n'inzu iteye umucanga ndetse isakaje n'amabati atukura.

Icyapa cya resitora kiranga ibiryo biba birimo, hariho n'inzugi nziza zifite irangi ry’icyatsi, ndetse zifite n'amapave meza y'umweru.

Icyapa kigaragaza aho umurenge wa Nyagatare uherereye n'ibirometero wagenda kugira ngo ugereyo. Wagenda metero igihumbi maganatatu mirongo itanu, ndetse na kabumbo nziza hateyemo indabo nziza zibereye ijisho, bituma haba hasa neza.

Mu umuhanda wa kaburimbo mwiza uri kunyurwamo n'imodoka y'umweru ndetse ukaba ufasha abaturage mu kuvana ibintu hamwe bakabijyana ahandi kandi ugafasha n'abantu kugenda mu mutuzo.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo imodoka ndetse ukaba unyuramo n'amamoto n'abagenzi, banyuramo bagiye mu kazi kabo ka buri munsi kandi ukaba udufasha mu kwiteza imbere no gutwara ibintu n'abantu.

Ikimenyetso kirimo umusaraba ndetse kiriho ishusho ya mpandeshatu, gituma kiyobora abagenzi mu gihe batwaye imodoka, moto n'amagare, kugira ngo birinde impanuka.

Abaturage bafatikanyije n'abasirikare, bari mu gikorwa cy'umuganda ufasha igihugu cyacu mu kwiteza imbere, kugabanya amafaranga batanga ku bikorwa remezo.

Abagabo n'abagore bambaye imipira y'imikara n'abandi bambaye ibivanze babyukiye mu muganda wo gukora umuhanda, ibyo bikaba bifasha igihugu mu kugabanya amafaranga batazaga mu gukora imihanda.

Abaturage bari mu muganda bambaye bikwije baje guharura umuhanda no gutegura uburyo bajya banyuzamo imyaka yabo bayijyanye ku isoko cyangwa se bagiye guhaha.

Abasirikare, abaturage, ndetse n'inkeragutabara, zabyukiye mu muganda, bafasha bafashanya kugira ngo bakorere umuganda bagabanye ibihuru, bagabanye n'ibintu bibiba bikikije abantu.

aAbaturage bari kumwe n'ingabo z'igihugu na polisi y'u Rwanda, bari ahantu heza bari gukorera umuganda, ahantu mu nsina nziza basa n'abishimye, ndetse bari kumwe ku nzu umwe.

Abaturage benshi cyane bahuriye ahantu hamwe, bari mu muganda, bafasha Leta nabo bifasha mu guhuriza hamwe imbaraga, bubaka igihugu cyabo.

Umusirikare wo mu ngabo z'Igihugu. Uhagaze imbere y'abaturage abagira inama uburyo bwokwicungira umutekano n'uburyo bawucungira abandi kandi anabahumuriza ko umutekano w'u Rwanda urinzwe neza ndetse n'uwabo ubwabo abo ngabo ari kumwe nabo kumeze neza.

Abaturage babyukiye mu muganda wo gufasha umuturanyi wabo kugira ngo na we abone uburyo abaho aba no mu nzu nziza yubatse neza, isakajwe amabati atukura ndetse ikaba yubakije n'ibiti.

Umuporisi wambaye impuzankano y'akazi, uri imbere y'abaturage arimo abagira inama, uburyo bagomba kwicungira umutekano kugira ngo bizabafashe kurwanya abajura babiba amatungo ndetse n'indi myaka kugira ngo bagabanye igihombo bahoranaga nacyo cyo kwibwa.

Abantu baba muri siporo bambaye imyenda itukura n'ubururu ndetse n'umuhondo, ikaba ibafasha kugorora imibiri yabo mu kuyitaho, kugabanya ibiro ndetse ikanatuma habaho no kwishimisha mu buryo bwinshi butandukanye.

Ikibuga cy'igitaka kiri gukinirwaho n'abakinnyi bambaye imyambaro y'ubururu, ndetse n'abandi bambaye imyambaro y'umuhondo, bibafasha mu kugorora imibiri yabo ndetse no mu kwishimisha.

Ikibuga cyiza, kirimo amazamu meza, kirimo umukinnyi wambaye imyambaro y'icyatsi bifashisha bari gukina umupira, bakishima, bagashimisha n'abandi.

Ikibuga cyiza kirimo abakinnyi batandukanye, bamwe bari kuruhande rwo hepfo abandi bari kuhande rwa ruguru bambaye imyenda itukura ,barigukinira igikombe cyangwa se bakaba bari kugorora umubiri wabo.

Abana b'abasore bari muri siporo ngororamubiri bagenda bashira amaguru imbere bayashira inyuma kugira ngo bananuke imitsi ndetse banagorore n'imbavu banagorore n'imitsi yabo mbere y'uko bajya gukina umupira.

Umubyeyi, umwana n'umupapa, abandi bantu bari ku ruhande rwabo bafashe igikombe batsindiye mu gihe bakinaga mu Karere ka Nyagatare.

Abakinnyi b'umupira bari gukinira mu kibuga cy'igitaka, ikipe imwe yambaye imyenda itukura, iyindi yambaye imyambaro y'ubururu, ndetse bari gukina basa n'aho bari kwishimisha kandi banishimye.

Abana bari gukina umupira mu kibuga, bari gukina baro y'umutuku, bambaye imyenda itukura irimo n'amabara y'umweru, ndetse barishimye cyane kuko bari gukina urukundo, bari kumwenyura kandi bibashimishije.

Abakinnyi bambaye imyambaro y'umuhondo ndetse n'iy'icyatsi bahagaze imbere y'umugabo uri kubagira inama uburyo bagomba kwitwara mu kibuga mu gihe bari gukina kandi bajye baterana imbaraga zo gukomeza gukora neza mu gihe bari mu kibuga.

Amapave y'ubwoko bubiri butandukanye bubakishije mu muhanda, hari aya mpande esheshatu hari n'afite impande nyinshi cyane, ni meza atuma abagenzi bari kugenda bagenda neza nta kibazo.

Umuhanda w'igitaka ufasha abaturage mu kuwunyuramo, gutwariramo amagare, moto n'amamodoka yabo, bajyana imyaka yabo mu rugo ndetse bayijyana no ku masoko.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo urimo ibice bibiri, ikinyuramo imodoka zizamuka n'ikinyuramo imodoka zimanuka, hariho n'amatara afasha abagenzi mu kugenda babona kudasitara.

Umuhanda wa kaburimbo ufasha abaturage kuva ahantu bajya ahandi ndetse bajyana n'imyaka yabo bayivana mu mirima, bayijyana iwabo mu rugo cyangwa se bayijyana ku isoko, kuyigurisha kugira ngo biteze imbere.

Imodoka ihagaze iteye irangi ry'ubururu, yanditseho #, ijambo BIVA, imodoka nziza ifite amapine mashyashya kandi isa neza nk'uburyo bwose.

Umuhanda wa kaburimbo mwiza, wegereye na ropuwe nziza, urimo imodoka y'umweru, urimo n'umurongo utandukanya impande ebyiri umanuka n'uzamuka w'umuhondo.

Umuhanda wa kaburimbo urimo abagabo babiri, imodoka zifite amarangi y'umweru n'ubururu, utuma abagenzi bajya bavana ibintu byabo ahantu hamwe bakabijyana ahandi.

Umukarani w'umugabo wambaye imyenda y'ubururu, wikoreye fanta azijyanye mu nzu y'ubucuruzi , inzu ifite irangi ry'umweru na kaburimbo imeze neza.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo amagare abiri, umwe mu bantu batwaye yambaye umupira w'umutuku undi yambaye mu ishati y'umweru, haraguru y'aho na ho hari amazu y'ubucuruzi.

Umuhanda wubatsemo amapave ndetse wa kaburimbo, urimo abagenzi batandukanye ukikijwe n'amazu ateye irange ry'umweru ndetse bakaba bayakoresha mu bucuruzi, bacuruza ibintu byinshi bitandukanye harimo ibyo kurya, ibyo kunywa.

Kaburimbo nziza iri kugendamo imodoka ndetse ikaba ikikijwe n'ibiti byiza, ikaba idufasha mu gutwara ibintu n'abantu.